Imbere yanjye ndahabona abantu benshi bicaye hari n'undi uhagaze uri kubasobanurira bari mu mahugurwa.

Hano ni mu cyumba cy'inama, aho hari abantu bicaye ku ntebe z'icyubahiro, bicaye na none ku meza, bazengurutse, bari mu nama.

Imbere yanjye ndahabona abagabo batatu baricaye imbere yabo ku meza hari amazi biragaragara ko bari mu nama .

Hano ni muri salle iradekoye, imbere edekoye n'udutambaro tugize amabara y'ibendera ry'u Rwanda harimo abantu benshi bari mu mahugurwa.

Hano ndahabona abantu batatu bicaye ku dutebe twiza, ku mpande zabo hari utumeza baterekaho icyo kunywa. Ni muri si, i, o, foramu, aho bari kwigisha abandi, uburyo bashobora kuba ba si, i, o, ba bizinesi zabo.

Hano ni muri sare. Amatara ari kwaka, hari abantu benshi bicaye harimo n'abazungu, imbere yabo ku meza hari amazi yo kunywa, bafite amakaramu mu ntoki bari kwandika, hari n'abandi benshi bicaye inyuma.

Imbere yange ndahabona abantu bicaye, bafite impapuro zo kwandikaho n'amakaramu, bafite amazi imbere yabo ku meza. Hari n'andi meza hirya no hino, bigaragara ko bari mu mahugurwa.

Hano ndahabona abantu benshi bicaye ku ntebe nziza bamwe bafite na raputopu ku meza. Ku meza hateretse amazi biragaragara ko bari mu nama.

Imbere yanjye ndahabona abantu benshi bicaye mu ihema mu ntebe zidekoye, imbere yabo hari imeza iriho indabo, abenshi bambaye imipira y'ubururu hari n'umusirikare wambaye impunzankano za gisirikare.

Imbere yanjye ndahabona abantu bicaye. Harimo abazungu n'abirabura. Hari n'umukobwa ufite latop ku bibero. Biragaragara ko bari mu nama.

Mbere yanjye ndahabona ihema ririmo abantu benshi bicaye bameze neza. Bamwe muri bo bambaye imipira ya orange ifite ku mpera z'ijosi no ku maboko h'umweru.

imbere yanjye ndahabona abantu benshi bahagaze hafi y'ibendera ry'u Rwanda, bamwe bafite ihene mu ntoki, harimo n'uwambaye kositime, hari n'uwambaye impuzangana na za daso, uko bigaragara aba ni abaturage bahawe ihene.

Imbere yanjye ndahabona abayobozi bicaye mu ntebe nziza bakaba bari mu nama kuri Kigali yacu Kigali ikeye niyo nsanganyamatsiko.

Imbere yanjye ndahabona abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, akoze mu buryo bwa regitangere, bari kureba imbere bigaragara ko ari amahugurwa barimo.

Imbere yange ndahabona umugore wambaye imyenda y'umuhondo afite mikorofone mu ntoki, yambaye rinete ateze igitambaro, ari kuri podiyumu ari kuvugira kuri mikoro.

Hano hari abantu bambaye imipira y'ubururu ifite uturango tw'umweru n'amabaji y'ubururu bicaye ku ntebe z'umuhondo n'ameza adakoye neza n'ibitambaro by'umweru bari mu mahugurwa.

Hano ndahabona abantu benshi bakuze bicaye muri sare ahantu hari udutebe twa purasitiki bakaba bari mu nama cyangwa amahugurwa.

Imbere yanjye ndahabona abantu babiri umwe ni umudamu undi n'umugabo bombi bafite mikorofone mu ntoki barahagaze, hirya hari abandi benshi bicaye bateze amatwi ibyo bari kuvuga.

Hano ni muri sare. Ndahabona abantu benshi hari kubera amahugurwa y'abajyanama, n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge n'ab'utugari. Umuturage ku isonga ku miyoborere myiza. Yateguwe na rariga.

Hano ndahabona abantu bicaye mu ntebe nziza, bakikije imeza imbere yabo hari amazi ndetse bafite n'ibitabo bari mu nama.

Imbere yanjye ndahabona abantu bicaye bari mu nama imbere yabo hari ibitabo ndetse hari n'amaji n'amazi inyuma hari umukamera mani uri gukamera.

Imbere yanjye ndabona umupolisi ari kumwe n'urubyiruko imbere ye ni benshi, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, bafite icyapa cyanditseho ngo duhagurukire kurwanya sida iracyahari iratwugarije.

Hano ndahabona abantu batatu hari umudamu uri hagati n'abagabo babiri bari kumpande umwe imbere ye hari laptop kandi bose bafite amazi imbere yabo ku meza.

Imbere yange ndahabona abantu bicaye bafite za microphone imbere yabo none hano imbere hari abandi bicaye bari kurebana bateganye niku munsi mpuzamahangaye wahariwe ubukerarugendo.

Imbere yange ndahabona abantu b'abanyacyubahiro bicaye bafite amakaramu n'impapuro mu ntoki, hakaba harimo n'abambaye impuzankano za gisirikare n'impuzankano za polisi, inyuma yabo hari icyapa cy'ingengo y'imari n'imihigo umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu, bibiri na makumyabiri na gatandatu, uruhare rw'umuturage mu igenamigambi.

Imbere yange ndahabona abantu benshi harimo abazungu, ndetse n'abirabura. Baricaye, imbere ya bo ku meza hari amazi bari kunywa, bateze amatwi bari mu nama.

Imbere yanjye ndahabona abantu bicaye bameze nk'abari mu nam,a hari utuntu turi imbere yabo ku meza tugaragaza abo bari bo n'icupa ririmo icyo kunywa.

Imbere yange ndahabona sare harimo abanyacyubahiro bicaye ku ntebe, hari n'ameza adekoye neza bafite icyo kunywa, umwe muri bo afite mikorofone mu ntoki ari kuvuga bari mu nama.

Imbere yanjye ndahabona abantu benshi bicaye, hari n'abandi bari hirya hafi y'ahantu hari igitambaro cy'amabara y'ibendera ry'u Rwanda. Hano hari abandi batatu, bafite seretifika mu ntoki.

Imbere yanjye ndahabona abantu bicaye mu ntebe z'abanyacyubahiro, harimo umudamu hakaba harimo n'Umupolisi mukuru, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa y'Inyange hari na microphone. Uko bigaragara bari mu nama hari abandi bantu bari imbere yabo.

Hano hari inzu ikorerwamo serivisi z'irembo, hari na noteri w'ubutaka wikorera. Ushaka kumubona wahamagara zeru karindwi umunani, mirongo itatu n'umunani, mirongo icyenda na karindwi, gatatu, zeru gatanu. Hari n'umuhanda wa kaburimbo, aho ndikubona inzira y'abanyamaguru bambukiramo. Hari urujya n'uruza rw'abantu benshi ndetse n'amamodoka.

Aha ngaha Rwanda reveni iramenyesha abasoreshwa bose ko habura iminsi itanu itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ko ari mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi na bibiri bibiri na makumyabiri na kane .Menyekanisha uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa kugira ngo wirinde ingaruka zo kubikora ku munota wa nyuma.

Hano imbere yanjye ndahabona insinga z'amashanyarazi ziciye hejuru y'inzu iriho iminara hino hari iyindi nzu igaragara igisenge cy'amabati.

Nkuko Rwanda reveni ibisobanura, umusoro ku nyungu z'ubukode ni umusoro ucibwa ku nyungu umuntu ku giti cye, cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete abona ziturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri mu Rwanda.

Hano ndahabona umunara w'itumanaho ufite ibyuma by'icyatsi kibisi, hirya hari amazu menshi.

Imbere yanjye ndahabona ibiti, hari n'umurima w'ibigori, hirya hari ipironi ndende y'umunara w'itumanaho ku ruhande hari inzu.

Imbere yange ndahabona umuntu ari imbere ya kompiyuta, hari na empurimante, akora serivise z'irembo akaba umwejenti wa beka n'uwa ekwiti banke.

Imbere yanjye ndahabona mu umuryango ufunguye harimo abantu babiri bari kwakira undi umwe uri hanze, bakora serivise yo kohereza amafaranga, kwishyura amafagitire, kubitsa, kubikuza n'izindi serivisi.

Hano hari uruzitiro rw'ibyuma hejuru hariho senyenge, mo imbere hariho umunara muremure ufite ibyuma bisize irangi ry'umutuku n'umweru w'itumanaho hanze yurwo ruzitiro hari icyapa cy'umuhondo cya emutiyeni.

Icyapa kiri gutambutsa ubutumwa bw'Ikigo cy'Igihugu cy'Imisoro n'Amahoro (RRA). Ubu butumwa buri kuvuga ko umuntu wese ufite icyangombwa cyimwanditseho, cy'umutungo runaka utimukanwa, agomba gutangira wo mutungo umusoro.

Serivisi nshya ku rubuga rw'irembo zitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, izo serivisi ni ukuvugurura imbibi no gukosora ubuso, kwandikisha no gucamo ibice inyubako ukuyemo inzu zo guturamo. Waduhamagara kuri mirongo cyenda mirongo cyenda n'icyenda cyangwa ukatwandikira kuri watsapu, zeru karindwi icyenda makumya na kabiri makumya na kabiri makumyabiri na kabiri zeru.

Mbere yanjye ndahabona umugabo wambaye ingofero ari imbere ya computer imbere ye hari ifoto kopiesekima ye hari andi meza hari umuntu nawe uri gukaraga suri.

Dore uko ibipimo by'umusoro w'ubutaka uriho inyubako biteye, zeru n'ibice bitanu ku ijana by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ikibanza byagenewe guturwamo, zeru n'ibice bitatu ku ijana by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ikibanza byagenewe ubucuruzi ,zero n'igice kimwe ku ijana by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ikibanza byagenewe inganda , inyubako n'ikibanza bikorwa by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse.

Garagaza impano yawe utsindire miriyoni y'amafaranga y' u Rwanda, hano hari ibihangano icumi byahize ibindi mu amarushanwa ya Rwanda Reveni Otoriti Kereyative Indastri Carenji.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cya Airtel kiri ku ruzitiro rugizwe n'utwuma hejuru hari senyenge mwimbere harimo umunara bigaragara ko uyu ari umunara wa Airtel .

Hano ndahabona umuryango ufunguye ufite inzugi z'umuhondo zanditseho irembo, hari pubeli ku muryango, hari n'ikarito yanditseho irembo iteretseho fotokopiyeze.

Hano ndahabona abantu bicaye muri sare. Imbere yabo hari ameza ateretseho raputopu. Imbere yabo bantu hari undi muntu uri kubigisha, wambaye umupira ufite amabara y'mirongo y'ubururu n'umweru abahagaze imbere.

Imbere yanjye ndahabona inzu ifite irangi ry'ubururu hakaba ari kuri eko banki, hari abantu babiri bicaye muri bo harimo umusekirite hari n'undi muntu uri kuruhande ari kuvugira kuri telefone.

Rura irashishikariza abantu gukoresha neza gaze. Bahitamo neza icupa ritangiritse, kuritereka ahantu hari umwuka uhagije, kandi hategereye ubushyuhe, kugenzura neza ubuziranenge bw'umugozi wa palasitike uva ku icupa ugana ku mashyiga, gufunga neza gaze ku buryo idasohoka mu gihe urangije guteka.

Imbere yanjye ndahabona umunara w'itumanaho, ufite ibyuma bisize irangi ry'umutuku n'ubururu.

Hano ndahabona inzu ifite imiryango ifunguye hamwe handitse papeteri zone hari n'amabaro ku muryango ahandi ni eyateri(airtel )minishopu (mini shop) harafunguye naho ahandi naho bakora serivisi z'irembo, hirya ni ifoto egisupuresi ( expres).

Imbere yange ndahabona abantu bicaye bafite laputopu imbere yabo, abandi bari gukoresha telefone.

Dekarara umusoro wa bibiri na makumyabiri na kane, maze wishyure bitarenze tariki mirongo itatu n' rimwe z'ukwezi kwa mbere, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu dusure ku rubuga rwacu “w” eshatu akadomo r r a akadomo gov akadomo rwa .

Hano ndahabona ifoto y'igiti iriho insinga z'amashanyarazi ni ku muhanda kg magana cyenda mirongo itandatu na gatanu, hirya yayo hariho urupangu rufite utubara twa move, harimo n'inzu mu rupangu.

Imbere yanjye ndahabona ipoto ikoze mu cyuma, hariho insinga nyinshi ziyihuriraho hariho na kashipawa hejuru hari ikirere gikeye.

Hano ndahabona ipoto y'amashanyarazi ,iriho insinga, hari umutekinisiye wuriye wambaye isarubeti y'ubururu, ari gukora umuriro.

Hano ndahabona amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, iyo hino iteye hafi y'indabo ku rupangu rw'amatafari ahiye.

Mbere yanjye ndahabona ipoto y’amashanyarazi iriho insinga, hariho n’itara rimurika mu muhanda ekireraje pibulike. Hari umugabo uri kugenda wambaye isarubeti y’ubururu nyuma y’ipoto, naho hari undi muntu uri kugenda hafi aho hari agashyamba.

Imbere yanjye ndahabona ifoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi nama kashipawa hepfo yayo hari inzu nziza zifite ibisenge by'umukara ku mpande hari uduti.

Imbere yanjye ndahabona amapoto ane y'amashanyarazi abiri abiri arateganye, hari n'insinga ziri kuyacaho ashinze ahantu hari ibimera byinshi birimo n'insina.

Hano hari amapirone y'amashanyarazi y'umuyoboro mugari abiri ateganye hariho n'insinga z'amashanyarazi, hejuru ndahabona ikirere kirimo n'ibicu byinshi.

Imbere yanjye hari umuhanda wa kaburimbo uri gucamo imodoka, hejuru y'umuhanda hari insinga z'umuyoboro mugari ziri guca hejuru, na none hari iyindi poto iriho n'itara rimurika ku mihanda, na yo iriho insinga. Hirya y'ipoto hari amazu y'ubucuruzi ndetse n'umutaka wa Emutiyeni.

Hano ndahabona amapiloni y’ amashanyarazi y’ umuyoboro mugari wa hot atetation ndahabona ibicu ku ijuru birarakeye.

Imbere yanjye ndahabona amapoto y'amashanyarazi arimo insinga, hasi hari abamotari bari kugenda mu muhanda bahetse abagenzi, hirya ku ruhande hari etaje.

Imbere yanjye ndahabona utwuma tugufi dusize irangi ry'umweru dukoze korotire dufite utugozi tw'umuhondo, mo imbere harimo ibyuma byinshi by'amashanyarazi bigize kabine ya elegitirisite.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, hari n'agahanda k'amapave kagenewe abanyamaguru, hari ipoto y'amashanyarazi iriho insinga.

Imbere yanjye ndahabona ipoto irimo insinga z'amashanyarazi ishinze ahantu mu kajaride, epfo yaho hari urupangu rufite porutaye y'umukara hari n'amazu, hino hari umuhanda w'amabuye uri kugendamo imodoka yo mu bwoko bwa heregisi.

Hano ndi kubona umuhanda uri kugendwamo n'imodoka ku ruhande hari umutaka wa emutiyeni harimo umugenti ari kwakira abantu, hari n'ipoto y'amashanyarazi ihashinze hakaba icyapa cya mpande eshatu zifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ikirango cy'umukara aho kigaragazako umuhanda utaringaniye.

Imbere yanjye ndahabona amapoto abiri ariho insinga z'amashanyarazi ateretse ahantu hari ibimera byinshi hirya hari amazu n'ama etaje.

Hano ni mu muhanda wa kaburimbo, ndabona abamotari baparitse ku ruhande, hari n'undi uri kugenda mu muhanda, ageze ahantu abanyamaguru bambukira, yategereje ko abanyamaguru bambuka, bari kwambuka. Hakurya hari ritiko, mahiyasi ndetse na hoho. Hirya yayo, hari amapirone y'umuyoboro mugari w'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona agakorotire gakoze mu byuma kariho senkenge hejuru yako mo imbere harimo umunara w'itumanaho.

Hano hari ifoto yamashanyarazi, iriho insinga nyinshi. hafi yayo harimo imodoka naho hirya yayo hari etage

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo. Ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru, bari kugenderamo benshi. Ndabona amapoto y'amashanyarazi, n'insinga.

Imbere yanjye ndahabona icyuma kiba kiriho taransifa hirya hari ipilone y'amashanyarazi hino naho hari ipoto y'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda w'igitaka, hari umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantalo y'umukara, inkweto z'umukara n'igikapu cy'umukara, hirya ye hari igisambu kirimo amapoto y'ibiti hariho n'urutsinga.

Imbere yanjye ndahabona ipironi ishinze mu butaka y'amashanyarazi, imbere yaho hari n'akabuwate gahari gakoze mu cyuma, hirya hari u muhanda wa kaburimbo ndetse n'imitaka ya mobayiro mani.

Imbere yange ndahabona umuhanda ukeye, hepfo hari amapoto y'amashanyarazi ariho insinga, hirya hari imodoka ziparitse ku mazu y'ubucuruzi.

Imbere yanjye ndahabona umutekenisiye w'umweregitirisiye w'umukobwa wambaye amasarubeti y'ubururu na kasike y'umweru ari ku rwego, ku ipoto hejuru ari kumanika kashi powa.

Hano ndahabona imodoka y'umutuku cyapa cya regi ishami rya Remera, na etaje inyuma itaruzura.

Imbere yanjye ndahabona umuntu uri kugenda hari n'icyapa cya parikingi bigaragaza ko amabisi yemerewe kuhaparika, hari ipoto iriho insinga z'amashanyarazi hirya hari n'pirone y'umuyoboro mugari w'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona ipoto y'amashanyarazi hari n' insinga ndetse hari n'itara rya eseyage ku iguri ryayo hari inzu y'amatafari ahiye yanditseho ngo phocas shop aho bacuruza ibintu bitandukanye byinshi ndahabona na za matela.

Imbere yanjye ndahabona ipoto ishinze hafi y'igiti cy'umwembe, hakaba hariho insinga hejuru yayo hari izindi nsinga z'umuyoboro mugari.

Imbere yanjye ndahabona amafoto y'amashanyarazi, ndahabona amatara ya eclarage publique amurika ku mihanda, ndahabona hirya amapironi y'imiyoboro migari y'amashanyarazi, nanone harimo umuhanda uri nyabagendwa, kugendamo ibinyabiziga n'amazu y'ubucuruzi hepfo.

Imbere yanjye ndahabona ambiranse ziparitse, hari nindi ifunguye bari gukuramo umurwayi, hari abantu bicaye ku ntebe bategereje, uko bigaragara hano ari kwa muganga baje kwivuza.

Imbere yanjye ndahabona etaje nini yanditse ngo kingi Fayisari hosipito, bikaba ari ibitaro yitiriwe umwami Fayisari bifite jaride nziza na rompuwe imbere yabyo.

Imbere yanjye ndabona abantu benshi bambaye amataburiya y'umweru n'akandi kantu k'umweru mu mutwe bigaragara ko hano ari kwa muganga aba bakaba ari abaganga.

Imbere yange ndahabona abantu bicaye hanze ku ntebe ziteretse ku mapave, hakaba hari n'abandi bahagaze, hari ambirance nyinshi, uko bigaragara hano ni kwa muganga, aba ni abarwayi baje kwivuza.

Imbere yanjye ndahabona inzu isakaje amabati atukura n'amatafari ahiye ifite jaride hepfo yayo irimo n'imikindo.

Imbere yanjye ndahabona imodoka itukura, ivatiri iparitse ku cyapa, hepfo yayo hari geti y'ibitaro bya Muhima.

Hano ndahabona pikapu ihetse ibyuma by'amashanyarazi. Ni mu muhanda hirya y'umuhanda hari icyapa cya komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu. Hafi yacyo hari akazu ka emuteyene gasize amabara y'umuhondo, harimo umu ejenti, n'undi mu ejenti ari hanze ari kumwe n'umukiliya. Hirya yabo hari umuntu uhari, hari n'ama etaje.

Hano ni kwa muganga ni kutaro ndahabona amakoridoro menshi atwikiriye, hari n'ibyapa birimo mu buso bw'ubururu byandikishije irangi ry'umweru biyobora.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'umweru yaho abanyamaguru bambukira twita zebura korosingi. Harimo n'ibinyabiziga biri kugenda, ndabona icyapa cyanditseho si heyici yu bi. Hirya hari ahantu hari ibendera ry'u Rwanda hari n'amazu menshi imbere.

Hano ni kwa muganga hari abantu benshi baje kwivuza muri bo harimo imfungwa zambaye imyenda y'iroze ndetse n'abagororwa bambaye imyenda ya oranje.

Imbere yange ndahabona jaride nini nziza, hari n'amazu yubatse; yubakishije amatafari ahiye. Hirya hari ikigega, uko bigaragara aha ngaha hashobora kuba ari kwa muganga.

Imbere yanjye ndahabona ubusitani bunini kandi bwiza burimo n'ibiti byiza, hirya hari inzu nziza nini cyane irambuye ifite na pariking haparitse imodoka ndetse n'ibyapa biyobora.

Hano ndabona abantu babiri bambaye udupfukamunwa, umwe yicaye mu ntebe ni umugabo naho uwundi yambaye itaburiya na ga akaba ari umuganga umudamu agiye kumutera urushinge ku kuboko, uku bigaragara n'igihehe cyo gukingirwa indwara z'ibyorezo nka korona.

Imbere yange ndabona ifoto y'umuntu ushakishwa, Kabuga Feresiyani, kubera jenoside yateye inkunga abakoze jenoside bakica abagabo abagore abana, uzamubona cyangwa akaranga aho ari, azahembwa miliyoni eshanu z'amadorari y'Amerika.

Hano ni mu rukiko, ndabona abacamanza babiri bambaye imyenda itukura, umwe ari kuvugira kuri mikoro, ku meza hari ingofero zabo, hari n'amazi bari kunywa. Bari kuburanisha.

Imbere yanjye ndahabona umuryango ufunguye, hari abantu batatu babiri bambaye imyenda y'amaroza ni'imfungwa, nah'undi umwe yambaye ikoti n'isaha we ntabwaho imfungwa.

Iyi ni paje imwe yo mu igazeti ya leta nomero speciale yo ku itariki makumyabiri z'ukwacyedah mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ,hari umutwe wa gatatu uvuga ku byaha n'ibihano bya ruswa aho ingingo ya kane ivuga ku gusaba ,kwakira cyangwa gutanga indonke.

Imbere yanjye ndahabona abantu benshi bicaye bambaye amakanzu y'umukara bakora muri serivisi y'ubutabera, imbere yabo naho hari abandi bantu bambaye amakanzu y'umutuku nabo bakora muri serivisi y'ubutabera, uko bigaragara abari imbere n’ abacamanza abandi abashinjacyaha n'abavoka bagiye kurahira.

Imbere yanjye ndahabona abagabo babiri bicaye bambaye impuzankano z'i roze ni imfungwa, inyuma ya hari abaturage bahicaye bicaye bari kureba imbere bigaragara ko ari mu gihe cy'inkiko gacaca bari gucirwa imanza n' inyangamugayo za gacaca.

Hano ni mu rukiko, ndabona abavoka babiri harimo uw'umuzungu n'umwirabura, inyuma yabo hari imfungwa ebyiri harimo Ingabire Victoire ndetse n'uwundi. Bambaye amapingu inyuma yabo hari abandi bantu benshi.

Iyi ni paji imwe yo mu igazeti ya leta, nimero sipesiyare, yo ku ya makumyabiri na kabiri z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu, ahagaragara ingingo ya kabiri ariyo y'ururimi, aho ivuga ko ayo mabwiriza yateguwe mu rurimi rw'ikinyarwanda, naho ingingo ya gatatu, ikavuga ko aya mabwirizwa, atangira gukurikizwa uhereye igihe yatangarijwe mu igazeti ya repubulika y'u Rwanda.

Imbere yanjye ndabona umudamu wambaye rinete n'ingofero y'umukara ifite akantu kazengurutseho, yambaye ibintu by'umutuku hari n'akantu kamanutse imbere. Uko bigaragara uyu n'umucamanza kuko iyi n'imyambaro y'abacamanza.

Imbere yanjye ndabona abantu benshi bari muri salle, hari abicaye imbere bafite machine ku meza yabo, imbere yabo hari intebe iteretseho porojekiteri, naho hepfo hari abandi benshi, bicaye bafite ibitabo mu ntoki, bari gukurikirana ibyo bari kwiga.

Hano imbere yanjye ndahabona umugabo, ubyibushye umeze neza yambaye imyenda y'umutuku ikaba ari imyenda ikoreshwa mu butabera ku bacamanza.

Iyi ni paje imwe mu igazeti ya leta número spécial yo ku itariki ya kane z'ukwa mMunani bibiri na makumya na gatatu, ahari umutwe wa mbere uvuga ku bwigenge bw'Abanyarwanda mu gufata ibyemezo no gusumba andi mategeko ku itegeko nshinga, aho ingingo ya mbere ivuga ku nkomoko y'ubutegetsi naho iya kabiri ikavuga ku itora .

Iyi ni paji imwe mu igazeti ya leta nimero speciale yo kuwa makumyabiri z'ukwakirandabiri na cumi' numunani ahari ingingo ya cumi na karindwi ivuga ku mpamvu nkomezacyaha ku cyaha cya ruswa cyakozwe n'umuntu uri mu rwego rw'ubuyobozi, hamwe n'ingingo ya cumi n'umunani ivuga ku cyaha cya ruswa cyakozwe n'amasosiyete y'ubucuruzi amakoperative ibigo imiryango bifite ubuzima gatozi.

Imbere yanjye ndahabona igipangu kinini, aho gifite icyapa cyanditseho ngo gereza ya Nyanza. Hirya mu gashyamba hari ibiti byinshi.

Imbere yange ndahabona umugabo w'inzobe umusatsi uringaniye ari kureba imbere. Yambaye umupira w'inyuma ufite amabara y'umweru n'umukara ku ijosi, na ho ku rutugu ikaba ari ubururu.

Hano ndahabona umudamu wambaye amaherena yambaye n'ikanzu ifite ibara ry'umutuku, ifite n'agatambaro imbere mu ijosi k'umweru. Ni imyenda yo mu butabera ni umucamanza.

Imbere yanjye ndahabona abantu babiri bafite computer, imbere yabo umwe numwa avoka yambaye agapfukamunwa n'imyenda y'abavoka uwundi n'umugororwa yambaye agapfukamunwa n'amaroza, hari n'amazi y'inyange imbere yabo ndetse na sanitizer

Imbere yange ndahabona abagororwa bambaye impuzankano zabo, hari n'umucungagereza ushinzwe kubarinda. Imbere yabo hari igipangu kinini cyane cyanditseho dizi nefu tarante akaba ari purizo bafungirwamo.

Imbere yanjye ndahabona igipangu kinini, kirekire, gifite porotaye itukura. Hepfo yacyo ahagana mu nguni, hari abantu benshi bambaye iniforume z'ibara ry'iroza, ni abagororwa, bari kugana aho ngaho kuri porotaye. Uko bigaragara aha ngaha ni ku igororero.

Imbere yange ndahabona aba polisi bo mwishami risinzwe kuzimya inkongi y'umuriro faya burigeti, bafite umupira muntoki bari kuzimya umuriro.

Imbere yange ndahabona abamotari benshi, baparitse, bahetse abagenzi, bari ku murongo, hakaba hari n'umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Imbere yange ndahabona umugabo ni umupolisi ari mu ishami rya fayaburigedi, yambaye ku buryo bwabugenewe kugira ngo abashe kuzimya inkongi y'umuriro.

Imbere yanjye ndahabona ibinyabiziga bya polisi biparitse ku mapave ari imbere ya etage, hari umunyamaguru wambaye iby'umukara uri kugenda yerekeza ahantu hari icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira hari zebura korosingi.

Imbere yanjye ndahabona umudamu ufite agakapu k'umukara uri kugenda, hirya ye hari koloture y'amatafari ahiye n'utwuma dusize irangi ry'umweru, ndahabona inzu ifite ibendera ry'u Rwanda imbere yayo.

Hano imbere ndabona umuhanda wa kaburimbo ari igice cyo n'igice cyo hakurya, ndabona umumotari utwaye moto mu gice cyo hakurya. Hakaba hari umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, ari kumwe n'undi muntu w'umusivire.

Hano ndahabona igicupa cy'umutuku, ikibomboni gikozwe mu cyuma. Gifite agapira k'umukara, gifashe kugikuta. Iki gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Imbere yanjye ndahabona abapolisi babiri bambaye impuzankano za polisi, bashinzwe umutekano wo mu muhanda, bahagaze munsi y'akazu k'abagenzi bicaramo bategereje imodoka.

Hano ndahabona igicupa cy'umutuku cyometse ku gikuta cy'ikibomboni kiriho agapira k'umukara icupa kibamo sewode ikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Imbere yanjye ndahabona umupolisi wateretse icyombo hasi, ku ruhande rwe hari ivatiri ya polisi, imbere ye nanone hari indi vature ihaparitse ya polisi hafiye hari ibiti.

Ndahabona ibicupa bibiri by'ibisirinda, kimwe ni umutuku ikindi ni umweru, byometse ahantu ku gikuta, bikaba bibamo sewode ikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Imbere yanjye ndahabona abakobwa bambaye imipira y'umweru, bafite impapuro mu ntoki nyinshi bari kubarura amajwi y'abatoye.

Hano ndahabona umugabo w'umuyobozi wambaye ikositimu wicaye mu ntebe nziza, imbere ye ku meza hari akamikoro ko kuvugiraho n'amazi bari mu nama.

Imbere yange ndahabona rimwe mu mashyaka aba mu Rwanda ariryo pariti sosiyare imberekuri. Jisitise amuru etaravaye mo hagati harimo ukuboko gufashe ururabyo.

Imbere yanjye ndahabona amabendera ya FPR hari abantu benshi cyane bambaye imipira ya FPR n'ingofero. Aha ni muri kampeni yo kwamamaza nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nk'umukandida ku mwanya w'umuyobozi w'igihugu.

Imbere yanjye ndahabona Mpayimana Philippe, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Hano ni mu cyumba cy'itora ndabona umugabo wambaye ikoti ry'mukara, n'umupira w'umweru, ari gushyira urupapuro yatoreyeho mu gasanduku k'itora. Hariho uwundi w'umukorerabushake ndetse n'indorerezi. Harimo itapi y'icyatsi kibisi n'igitambaro cy'amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Imbere yanjye ndahabona nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda Paul Kagame ari gusuhuza Tito Rutaremera, hirya hari abandi bantu benshi bari guseka harimo n'umugore uri gukoma amashyi.

Imbere yanjye ndahabona ikibuga kirimo imodoka nyinshi, hari n’abantu bari ku murongo benshi, hari undi umwe uri ku muryango aho bashaka kwinjira ahangaha n’igihe cy'itora bari kujya gutora.

Imbere yanjye ndahabona umugabo uri guseka yambaye ikositimu yumukara ishati y'umweru na karuvati y'ubururu yicaye iruhande rw'ibendera ry'u rwanda.

Imbere yanjye ndahabona ukuboko k'umuntu uri gutegura impapuro z'itora, aho kuri izi mpapuro z'itora ndikubonaho abakandida batatu bahataniraga umwanya w'umukuru w'igihugu harimo na nyakubahwa perezida wa repuburika yu Rwanda Paul Kagame.

Imbere yanjye ndahabona nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yambaye ikoti ryiza, ari muri stade amahoro, ari kugana mu byicaro bye, hirya no hino hari abantu benshi muri stade.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wicaye, yambaye kositimu y'ubururu, ishati y'umweru ndetse na karuvati, yambaye neza.

Imbere yange ndahabona abantu bicaye mu ntebe nziza z'icyubahiro, bafite utumikorofone imbere yabo, hari n'abafite imashini laputopu, biragaragara ko ari mu nteko nshinga amategeko.

Imbere yanjye ndahabona idarapo y'umuryango Efuperi igizwe n'amabara atatu harimo umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Hano ndahabona amabara atandukanye hari ubururu, umweru ndetse n'icyatsi kibisi mu mweru handitsemo psd.

Imbere yanjye ndahabona rigore iriho ikiraro ndabona umuhanda wa kaburimbo urimo fuso ifite kabine yu'mweru ipakiye imizigo itwikirijwe shitingi y'icyatsi kibisi.

Uyu n’ umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga harimo akamoto k'amapine atatu twita lifani gapakira imizigo kari kugenda inyuma yako hari ivatiri y'umweru naho ku ruhande hari ivatiri y'umukara.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo, hari imodoka iri kugenda itwawe n'umushoferi wambaye iby'umuhondo, nayo ifite ibara ry'umuhondo, ihetse matera zitwikirijwe shitingi y'ubururu, iyindi iragaragara imbere gusa ariko ifite ibara ritukura.

Hano ni muri kaburimbo harimo moto iri kugenda, harimo imodoka, umunyegare uri gusunika ibintu, ndetse n'umuntu ufite isarubeti y'ubururu uri gusunika ingorofani, hirya ni kuri sitasiyo hari imodoka ziparitse ndetse hari n'abantu bari kugenda.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo harimo abamotari babiri umweraraparitse ari kureba hepfo, undi ari kugenda hepfo imbere ye hari imodoka.

Uko bigaragara hano ni muri gare, ndahabona amamodoka atandukanye ya kwasiteri, nhariho yahu kari hirya hari kigali koci hari n'izindi kuruhande, hari abagenzi bari kugenda bagiye gutega.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo ushaje, harimo imodoka ya fuso ifite irangi ry'umweru, itwikiriwe n'ihema, hari na moto itwaye umugenzi ndetse hari n'umuyonzi uri kugenda mu muhanda.

Hano hari bisi nini irimo abagenzi ifite amabara y'ubururu n'umweru, ikora akazi ka taransiporo, hino ndahabona umuntu uri kugenda n'amaguru

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo ukuze uri kugendwamo n'umumotari wambaye ijile na kasike y'umuhondo, hirya ndahabona igipangu gisiziye irangi ry'umweru hari n'ibiti byinshi.

Hano ni mu muhanda wa kaburimbo, ndahabona bisi nini itwara abagenzi nanone hari umunyegare utwaye umugenzi, hakurya hari ibiti.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo ukuze hari dayihatsu ifite ibara ry'ubururu ipakiye ibyuma inyuma, hirya harimotari uhetse ndetse hari n'abagenzi bari kugenda.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ikamyo, ifite ibara ry'icyatsi, hirya yayo hari ibiti naho hino yayo hari umuntu uri kugenda n'amaguru.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo harimo fuso ipakiye imifuka myinshi itwikirijwe shitingi y'ubururu.

Hano ndahabona urujya n''uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, mu masaha y'ijoro amatara ari kwa ay'icyapa ndi kubona kinini kimeze nk'akazu cya airtel ndahabona n'ikigega cy'ubururu.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda, harimo umumotari uri kugenda, hafi ye ahagana inyuma, hari icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, aho kivuga yuko bibujijwe gukata mu cyerekezo cyerekanwa n'aka karangacyerekezo.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga harimo amavatiri ndetse na fuso, imbere hari amagare n'amamoto, ku ruhande hari imodoka zihaparitse hari n'abagenzi bari kugenda.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'ibinyabiziga byinshi. Aha ngaha hari akamodoka ka hiligisi k'umukara gatwaye imbaho.

Hano mu muhanda wa kaburimbo ndabonamo abanyegare bari kugenda, umwe wo hino ahetse igikapu yambaye ingofero ahetse n'imizigo, uwundi hirya we atwaye akagare ka siporo, hirya yabo hari imodoka ziparitse.

Imbere yanjye ndahabona igikamyo, kiri mu muhanda gifite ibara ry'ubururu, hino hari igiti gihari, ku ruhande na none hari icyapa cya mitsingi, bigaragara ko ari ku kabari.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga birimo moto ndetse n'imodoka y'ivatiri. Hirya hari akajaride kari hagati y'imihanda ibiri karimo n'imikindo. Hakurya hari umuhanda nanone uzamuka ugana ku mazu.

Imbere yanjye ndahabona abantu bahagaze bikoreye imitwaro, hari umumotari uri kugenda mu muhanda, hari abantu bafite ingorofani y'ibiti, hari imodoka y'ivatiri, hakurya hejuru hari bisi nini ya tiriniti basi, imbere yayo hari amaferuje.

Imbere yange ndahabona umuhanda urimo zebura korosingi aho abanyamaguru bambukira, hirya hari imodoka iri kugenda itwaye abagenzi, ni bisi ifite amabara y'icyatsi, hariho n'inyandiko zanditseho zivuga ku nyungu ntoya ushobora kugera iwawe.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo hakaba harimo imodoka itwara imicanga n'amabuye yo mu bwoko bwa howo ifite ibara ritukura.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda hari umunyonzi wambaye umupira w'umuhondo ahetse umuntu wambaye umupira w'ubururu, hirya yabo harimo ikimodoka gitwaye umucanga cy'umweru, hirya ya cyo hari ibiti byinshi.

Hano ndahobona umuhanda wa kaburimbo ukeye umeze neza, harimo umumotari utwaye umugenzi, hirya yaho hari jaride hari amahumbezi.

Hano hari umuhanda wa kaburimbo, hari umuntu wambaye isarubeti y'ubururu uri kugenda, hari imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umuhondo n'umweru, ya ruwayale egisipuresi. Iri kugenda hari indi modoka itagaragara neza nayo ihari.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo byombi, hari imodoka hirya no hino ziri kugendamo, imbere yanjye ndahabona akamoto k'amapine atatu bita rifanani handitseho ngo medi ini Rwanda gatwikirijwe shitingi y'umukara, hari n'amatara yo ku mihanda ndi kubona.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka y'ivatiri y'umweru ifite akabara k'umuhondo ikora nka tagisi vuwatire.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ebyiri, zigenda mu byerekezo bitandukanye imwe ni ivatire ndi ni fuso itwara imicanga n'amabuye ifite ibara ry'umutuku.

Hano hari umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, harimo imodoka ya bisi itwara abagenzi ya rowayali, ifite amabara y'umuhondo n'umweru, hari moto ihetse umugenzi ndetse n'abanyamaguru bari kugenda hirya y'imodoka hari ibiti.

Imbere yanjye ndahabona abantu batatu bari ku magare, hari abandi babiri bahagaze ku ruhande haba hakeye hari n'ubusitani hirya.

Imbere yange ndahabona ikibuga cy'umupira w'amaguru, harimo abakinnyi bari gukina, hepfo yacyo ni mu ishyamba harimo ibiti n'aho hano hino hari umuhanda urimo utubuye.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'uruganiriro gisize irange ry'umweru kirimo amatara ari kwaka, bicaye ku meza n'intebe by'umukara. Ayo meza ateretseho amazi yo mu macupa yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Hano ndahabona icyapa kiri mu ishusho ya mpandeshatu umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ni'ikirango cy'umukara aho kivuga yuko wegereye igice cy'umuhanda kibisikanirwamo by'agateganyo cyangwa burigihe kandi ubundi mu gice kibanza hagendwagamo mu cyerekezo kimwe.

Imbere yanjye ndahabona icyapa kiri mushusho y'urukiramende, gifite umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru, aho gitegeka umuyobozi wese w'ikinyabiziga ugeze mu nkomane gutanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu muhanda yegera.

Hano hari icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku n'ikirango cy'umukara, aho kigaragaza ko hano hegereye igice cy'umuhanda kiri gukorerwamo imirimo.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo. Ku ruhande hari icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara, aho kibuza umuyobozi w'ikinyabiziga kuhaparika.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo ibinyabiziga by'amamoto biri kugendamo, hari icyapa gishinze hagati mu kajaride cyerekana ko hari parikingi ariko aho fureshi iri kwerekana yo hasi.

Imbere yanjye ndahabona icyapa gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso b'ubururu n'ikirango cy'umweru, aho kimenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga ko hano hari parikingi y'amabisi.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cyo kumuhanda, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko wumutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Aho gitegeka umuyobozi wese w'ikinyabiziga, kutarenza umuvuduko wa kilometero mirongo ine ku isaha.

Hano ndahabona umuhanda mushyashya wa kaburimbo urimo zebura korosingi, harimo ibyapa byinshi harimo ikibuza kurenza umuvuduko w'ibirometero mirongo ine ku isaha, ikibuza ikindi kinyabiziga kunyuranaho, icyapa kijya ku muhanda batambukamo mbere, icyapa kigaragaza ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira ibumoso, icyapa kigaragaza igice cy'umuhanda gikorerwamo imirimo.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, hari n'icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, aho kimenyesha ko umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiye mu karere ka Karongi.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo n'ikirango cy'umukara. Aho cyerekana ko hari inkomane umuhanda umwe urasukira iburyo mu mfuruka ifunganye mu cyerekezo cyerekanwa n'kimenyetso.

Hano ndahabona icyapa gikozwe mu ishusho y'urukiramende. Gifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Aha ni aho bisi zihagarara.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cyo mu muhanda, cyo mw' ishusho ya mpandeshatu, Gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, aho kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere hari amakoni abiri cyangwa uruhererekane rw'amakoni arenga abiri, Irya mbere rir' iburyo.

Imbere yanjye ndahabona etaje z'ubucuruzi ebyiri, iyo hirya ni'yo hino ziri i Remera zikaba zifite na parikingi hariparitse imodoka hari n'abantu bari kugenda.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga biri kugenda, ku ruhande hari etaje iriho iminara y'itumanaho imbere yayo hari imodoka zihaparitse, nanone hafi y'umuhanda hari amapoto y'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona porotaye isize irangi ry'umukara ikoze mu buryo bwa giriyaje, irakinguye gatoya, ni kuma pave agana mu gipangu cya etaje nini yanditseho ngo rose gadeni haparitse n'imodoka.

Hano imbere yanjye ndahabona inzu ya etage ifite inkuta zisize irangi rya pierre de france nibirahure kuruhande hejuru ndikuhabona insinga z'amashanyarazi ziri kuhatambuka .

Hano ndahabona agakorotire k'amatafari ya ruriba kariho n'ibyuma. Imbere yako harimo umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo ibinyabiziga by'ibinyamitende.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga hari n'abantu bari kwambuka hakurya ndabona imodoka ziparitse kuri etage ihari y'ubucuruzi.

Imbere yanjye ndahabona etage ikoreramo ibintu byinshi bitandukanye ay foregisi biro, hari farumasi n'ibindi, imbere yaho hari abajenti ba emutiyene hari n'imodoka zihaparitse.

Imbere yanjye ndabona amapave hari n'uturabo hari imodoka ziparitse ahantu hafi y'urupangu rw'inzu, ruriho bare andi resitorenti ni i Kanombe ku kibuga cy'indege.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo. Hafi yawo hari abantu bambaye amasarubeti y'ubururu, inyuma yabo hari inzu nini yanditseho momento ikinguye. Ku ruhande haparitse imodoka y'ivatiri, hafi yayo inyuma hari umusekirite uhagaze hafi y' igare.

Imbere yanjye ndahabona imodoka nyinshi ziparitse imbere y'amazu y'ubucuruzi hirya yazo hari etage nini iriho iminara hejuru akaba hari insinga z'amashanyarazi ziri gutambuka hano hejuru y'imodoka.

Hano ndahabona umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga higanjemo ama moto menshi, hakurya hari etage n'imodoka zihaparitse ndabona nanone kamera yo ku muhanda iri mu kuboko kw'iburyo.

Hano ndahabona etage ebyiri zegeranye z'ubucuruzi. Iyo hino hari imiryango ifunguye y'ubucuruzi, hakaba hari n'imodoka ziparitse imbere yayo. Hari abagenzi bari kugenda harimo n'umumotari uhetse umugenzi.

Imbere yange ndahabona umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga, imbere hari igikamyo n'aho ku mpande hari ibiti byinshi byinshi cyane ndabona inyandiko yanditseho kumuvunyi, hirya hari amazu menshi.

Imbere yanjye ndahabona inzu ifite imiryango itatu umwe urafunze iyindi ibiri irafunguye; uwo hagati bacuruza ibijyanye n'imyenda kuko hari imaneke enye ziri hanze zambaye imyenda.

Imbere yanjye ndahabona igipangu cyubakishije amatafari ahiye, mo imbere harimo inzu nziza nini igeretse, isize irangi ry'umweru inyuma y'igipangu hashashe amapave ndetse hari n'imodoka zihaparitse.

Imbere yanjye ndahabona inzu iriho imiryango myinshi y'ubucuruzi, ifite amapave imbere yayo, hari iduka ryanditseho hori shopu sitayilo, aho bacuruza ibintu byinshi byo kwambara hariho imyenda n'inkweto, hirya hari girini fudu supamaketi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, hari imodoka iri kugendamo. Haruguru hari ahantu hari igikuta cy'amatafari ya ruriba. Hariho n'ibyuma bya garidefo.

Ruguru yanjye ndahabona amapave ari imbere y'igipangu, hakaba hari igipangu gifite porotaye ebyiri z'umukara m’ imbere harimo inzu nziza cyane.

Hano imbere yanjye ni mu murenge wa Ndera. Hakaba hari amazu meza ariko hazamuka, yubatse mu buryo bugezweho.

Hano ndabona ahantu hakotirijwe amabati y'icyatsi hari amazu menshi haruguru hari n'insinga z'amashanyarazi ziri kuhanyura.

Hano ni kumuhanda wa kaburimbo muri karitsiye hari ibipangu bifite amaporotayi y'umukara mo imbere harimo amazu meza ageretse.

Hano ndabona agashyamba kari hino y'umuhanda hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, hirya yawo hari etage yubatse n'amatafari ahiye isize irangi ry'umweru, ndabona amagambo yanditse ngo zone cumi n'ebyiri.

Hano ndahabona imiryango ibiri ifunguye hariho ucuruza ibikapu by'abadamu n'ibyomu mugongo, hari uwo hirya nanone ucuruza imyenda hariho n'ibimaneke byambaye imyenda.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, hakurya yayo hari inzu nini y'ubucuruzi igeretse, iya anglikani hawuzi, ikaba ifite parikingi hari imodoka ziparitsemo.

Hano ndahabona igipangu gifite porotaye nziza, inyuma y'iki gipangu hari jaride, harimo n'imikindo n'imbere harimo inzu nziza igeretse ya etaje.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo n'umumotari uri kuruhande hari icyapa cyanditseho avega clinic hirya yacyo hari etage yubatse neza .

Imbere yanjye ndahabona imirongo y'umweru dukunda kwita zebura korosingi, aha niho abanyamaguru bambukira, hirya ndahabona ibinyabiziga haririmo moto y'imodoka biri kugenda.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo uca munsi y'uwundi, hari n'abantu bari kuwunyuramo. Hino hari umukobwa uhagaze munsi y'icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, aho kibuza abayobozi b'ibinyabiziga guparika.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi haruguru hariru urukuta rw'amabuye naho ku ruhande ahagana hepfo hari amatara ari ku mafoto harimo insinga.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda w'igitaka wo muri karitsiye, imbere hirya harimo imodoka iri kugendamo, ku mpande zawo hepfo no haruguru hari ibipangu byubakisha amatafari ahiye harimo n'amazu, hejuru ndabona insinga z'amashanyarazi ziri ku mapoto.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo harimo umumotari utwaye umugenzi, hari n'umunyegare uri kuwinjiramo, noneho hirya yabo ndahabona ibimodoka byinshi binini bihaparitse.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, ugendwamo mu bice byombi. Hakaba hari umunyamaguru, ari kwambuka umuhanda aciye mu mirongo y'umweru, twita zebura korosingi. Yahariwe abanyamaguru.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga harimo na moto ku ruhande hari akazu abagenzi bicaramo bategereje imodoka kuri parikingi.

Hariya ndahabona umuhanda wa kaburimbo, hari imodoka ziri kugendamo. Na none hagati hari amatara ya eclage publique imurika ku mpande zombi. Hino ndi kuhabona iki modoka cya breakdown kiri kugenda mu muhanda wundi.

Hano ni mu masangano y'imihanda ndabona abantu bari kwambuka umuhanda baciye muri zebura korosingi ndabona ibinyabiziga harimo na moto.

Hano ndahabona umuhanda mugari, harimo ama feruje, harimo na hirigisi iri kugenda ifite karisoro y'ubururu. Hirya hari abamotari bahari, ndetse ndahabona n'icyuma bita sofiya.

Hano ndahabona amahuriro y'imihanda ya kaburimbo ni munkomane hari namapoto y'amatara y'amashanyarazi.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo hari kugendamo ibinyabiziga byiganjemo moto, ku ruhande hateyeho ibiti byinshi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda w'igitaka utameze neza, ariko ni uwo muri karitsiye, hepfo hari amazu ndetse hari n'ibiti uragenda ukisuka mu wundi wa kaburimbo.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo wangiritse ku ruhande kuko harimo ibidendezi by'amazi, harimo ibinyabiziga biri kugenda hari hirigisi inyuma, imbere harimo ya bisi itwaye abagenzi ifite irangi ry'ubururu, hari umumotari uparitse ku mapave, hari n'umuyonzi utwaye umuntu.

Mu masaha ya nimugoroba amatara ari kwaka; hano ni muri feruje ndahabona imodoka ya sitatisitike; igeze aho abanyamaguru bambukira hakitwa zebura korosingi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa polo uri kugendamo ibinyabiziga birimo moto na fusa hari undi muhanda uca hejuru yawo.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo urakeye nta binyabiziga byinshi birimo ,harimo gusa abamotari batwaye abagenzi.

Hano ndahabona umuhanda wa ka burimbo biri harimo n' amamoto ku ruhande hari imodoka itwara imizigo ihaparitse ifite gata triangle inyuma bigaragara ko igize ikibazo.

Imbere yanjye ndahabona umumotari uhagaze mu muhanda ategereje ko umunyamaguru uri kwambuka mu gahanda bagenewe bita zeburakorosingi amara kwambuka, hirya muri rompuwe hari ibimenyetso bimurika twita ngo ni feruje, hari n'imodoka nanone zitegereje yuko feruje zirekura kugira ngo zitambuke.

Hano hari umuhanda wa kaburimbo ibice bibiri; ni nijoro kubera yuko amatara yo ku muhanda ari kwaka ku bice byombi ndetse n'inzu iri ahangaha nayo iri kwaka hari n'amamodoka menshi ahaparitse.

Ndabona umuhanda aho hino hari umumotari uri kugenda m'umuhanda wambaye ijire, naho hirya ndabona abapironi ndetse n'amapoto y'amashanyarazi, ndabona abamotari bari kugenda m'umuhanda ndetse n'ibimodoka binini bipakiye imizigo.

Ndabona umuhanda w'igitaka wo muri karirtsiye hariho ibiti hirya no hino, hakaba hari n'amazu hariho afite ibipangu by'ubururu.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo uca munsi y'uwundi, hari n'icyapa gifite ishusho y'uruziga umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, aho kivuga yuko bibujijwe kuhaparika.